Abantu bicaye ari benshi, hakaba arimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama, iruhande rwabo hakaba hari ibyuma byabugenewe byinjiza umwuka mwiza, bigasohora umwuka mubi.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara, akaba ari gusuhuzanya mu biganza n'umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara ndetse akaba afite n'impapuro mu ntoki, inyuma yabo hakaba hari intebe ndetse n'icyapa kirimo amabara y'umuhondo n'ubururu.

Umugabo wambaye amataratara ndetse n'umwenda wa oranji akaba asutamye, ku ruhande rwe hakaba hari umwana muto wambaye umwenda ufite ibara rya oranji ndetse n'ubururu, akaba ahagaze ku cyuma bakoresha bapima ibiro. Ku ruhande rwabo hakaba hari n'abandi bantu bahagaze.

Abantu benshi bari kuvoma amazi hakaba harimo abagabo ndetse n'abana ku ruhande rwabo hakaba hari ibyatsi ndetse n'inyubako, bakaba bari kuvomera mu majerekani afite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'abantu bafite uruhu rwera, imbere yabo hakaba hari abantu bicaye bayoboye iyo nama.

Abantu benshi bicaye mu nyubako, hakaba harimo abakobwa ndetse n'abahungu hakaba harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'imyenda ifite ibara ry'icyatsi, kandi bakaba bambaye n'udupfukamunwa hakaba hari n'ameza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse n'impapuro.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gukora inama. Imbere yabo hakaba hari abantu batatu bicaye, akaba aribo bayoboye iyo nama. Inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi baricaye ndetse n'abandi barahagaza, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abantu bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Aho bantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru. Inyuma yaho hakaba hari icyapa ndetse n'inyubako, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bari mu nyubako bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamunwakaba, bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, hakaba hari umuntu uryamye, bakaba bari kumuvura.

Abana benshi bari gukaraba hakaba harimo abahungu ndetse n'abakobwa bakaba bambaye imyenda y'ishuri ifite ibara rya kacyi, hakaba hari n'indobo zifite ibara ry'umuhondo bakaba bari kuzivomeramo amazi, inyuma y'aho bari hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari gukora inama, hakaba hari meza iteretseho ibirahuri birimo icyayi ndetse bakaba bafite na telefoni zabo.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, akaba ari kuvoma amazi imbere, haba hari umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, afite amajerekani afite ibara ry'umuhondo bari kuvomeramo, kuruhande hakaba hahagaze abagabo, abagore, ndetse n'abana.

Abantu batatu bahagaze bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bakaba bafite n'udukarito dufite ibara ry'umweru mu ntoki zabo, bakaba bambaye n'udupfukamunwa. Akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, bakaba bahagaze mu nyubako.

Umugore wambaye amataratara, ingofero ndetse n'uwundi ufite ibara ry'umweru, imbere ye hakaba hari abana benshi, bambaye imyenda ifite ibara rya oranje, akaba ari kubanywesha amata, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu benshi bahagaze.

Umugore wambaye igitenge, iruhande rwe hakaba hari abana batoya ndetse n'abandi bana basa nkaho ari bakuru, bakaba bagiye kuvoma amazi, hakaba hari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amabase ari mu mabara agiye atandukanye, ku ruhande rwabo hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye igitenge ndetse n'umupira w'amaboko mugufi ufite ibara ry'ivu, akaba ari kuvoma amazi, ari kuyavomera mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, ndetse hakaba hari n'amajerekani menshi, ku ruhande rwe hakaba hari abandi bagore babiri bategereje kuvoma, inyuma yabo hakaba hari urutoki.

Abana bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'ifite ibara ry'ivu, akaba ari abanyeshuri bakaba bari gukaraba intoki, inyuma y'aho bari hakaba hari ibiti.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, akaba ari gutera urushinge umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hakaba hari n'abandi bana benshi baje kwiteza inshinge.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'igitenge, akaba yambaye n'agapfukamunwa gakozwe mu gitenge, imbere ye hakaba hari umwana wambaye imyenda ifite ibara rya kaki, akaba ari umunyeshuri, akaba ari kumukarabya intoki.

Abana bambaye imyenda ifite ibara rya kacyi akaba ari abanyeshuri, hakaba harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba baje kuvoma amazi, hakaba hari indobo zifite ibara ry'umuhondo akaba arizo bari kuvomeramo, inyuma y'aho bari hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti.

Umuntu wambaye ishati ndetse n'ipantaro akaba ari kuvoma amazi, aho ari kuvomera mu majerekani afite ibara ry'umuhondo, ku ruhande hakaba hari abana benshi ndetse hakaba hari umusozi w'amabuye uriho n'ibyatsi.

Abantu benshi bari mu nyubako hakaba higanjemo abana batoya bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hakaba harimo n'umugore ufite uruhu rwera akaba yicaye nawe bakaba bari mu nyubako, iruhande hakaba hari ameza ndetse n'intebe.

Umugabo wambaye ishati yamaboko magufi ifite uturongo tw'umukara akaba yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara akaba yicaye ku jerekani ifite ibara ry'umuhondo, kuhande rwe hakaba hari ivomero, inyuma ye hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako, uwo umuntu akaba yaje kuvoma.

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu akaba ari mu nyubako ku ruhande rwe hakaba hari umugore wicaye, inyuma ye hakaba hari intebe ndetse n'ameza, ku ruhande rwabo hakaba hari mudasobwa ndetse akaba ari mu nama.

Abantu benshi bari mu nyubako, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari gukora inama hakaba harimo n'abafite impapuro bakaba bari kwandika, ndetse muri iyo nyubako barimo ikaba ifite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari n'abandi bantu bicaye imbere akaba ari bo bayoboye iyo nama, hakaba hari ibiti muri iyo nyubako ndetse hakaba hari na televiziyo nini yerekana amashusho.

Abantu benshi bahagaze ku ivome rusange, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba hari amajerekani afite ibara ry'umuhondo menshi atonze umurongo, hakaba hari n'amagare, ku runde hakaba hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo akaba afite n'ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, akaba yaje kuvoma amazi ku mugezi. Ku ruhande rwa hakaba hari umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, akaba ari koza igare rye. Ku ruhande rwaho hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso inyuma yaho ba hakaba hari ibiti.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, hakaba hari n'abandi bantu benshi, hakaba harimo n'abagabo ndetse n'abagore, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari inyubako ifite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye mu nyubako bakoreramo inama, bakaba bari bu gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba harimo n'abantu bafite uruhu rwera, hakaba hari meza iteretseho uducupa tw'amazi.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa akaba ari umugore kubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima imbere ye akaba ari umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'ibitenge akaba aryamye ku gitanda bakaba bari kumuvura ku ruhande hakaba undi mugore uhagaze bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, amataratara ndetse n'agapfukamunwa, akaba afite igikoresho bakoresha bapima umuriro, imbere ye hakaba hari umugore uhahagaze, akaba afite imyenda mu ntoki, ku ruhande hakaba hari undi mugore uhahagaze ndetse hakaba hari amazi, ibiti ndetse n'inyubako.

Abantu benshi bicaye mu nyubako, hakaba harimo abagore, abagabo ndetse n'abana, hakaba harimo n'abambaye udupfukamunwa, hakaba hari abantu babiri bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hakaba hari mudasobwa ndetse bakaba bafite n'impapuro akaba ari bo bashinzwe gutanga serivisi.

Umugore wambaye ibitenge ndetse n'umupira ufite ibara ry'ubururu, akaba afite impapuro ndetse n'umwana mu ntoki, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu, imbere ye hakaba hari umugabo wicaye ku gataburete, akaba afite impapuro, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima cyangwa akaba ari umujyanama w'ubuzima, iruhande rwabo hakaba hari inyubako, bakaba bicaye bari kuganira.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama. Imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa. Bamwe muri bo bafite mudasobwa ndetse hari n'umugore ufite indangururamajwi uri kuvuga.

Abantu benshi bicaye mu nyubako, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gukora inama, hakaba hari abantu bicaye imbere, aribo bayoboye inama, ndetse muri iyo nyubako hakaba harimo n'ibiti.

Umuntu wambaye ibitenge, akaba ari kuvoma amazi, inyuma ye hakaba hari ibyatsi hari, kuvomera amazi mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, imbere ye hakaba n'akajerekani gafite ibara ry'umweru.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara, akaba ari kuvoma amazi mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, hakaba n'ibase ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru iruhande rwe hakaba hari imyenda ndetse n'inyubako.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, akaba yambaye n'ipantaro, ifite ibara ry'icyatsi, akaba ari gukaraba amazi, aho ari kuyakarabira ku iriba, iruhande rwe, hakaba hari abandi bana bategereje kunywa amazi cya gukaraba.

Umugore wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, ndetse n'umupira urimo amabara, umuhondo, umweru, ndetse n'umukara, akaba ateruye umwana mu ntoki ze, inyuma ye hakaba hari undi mugore nawe uteruye umwana, akaba yambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umukara, ndetse n'umupira ufite ibara ry'icyatsi, bakaba bari mu nyubako.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere hakaba hari umwana mutoya, akaba ari kumuvura ndetse hakaba hari n'umugore ufashe uwo mwana bakaba bari mu nyubako.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abafite amakayi ndetse n'impapuro bakaba bari kwandika.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari gutera urushinge umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, inyuma ye hakaba undi muntu uhagaze.

Umugabo wambaye amataratara ndetse n'imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba ari gutanga imbwirwaruhame, ku ruhande rwe hakaba hari intebe ndetse ku rundi ruhande hakaba hari igiti, inyuma ye hakaba hari icyapa kiri mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba ari undi muntu wambaye imyenda ifite ry'umukara, inyuma yabo hakaba hari inyubako ndetse iruhande rw'iyo nyubako hakaba hari ibiti.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari kuvoma amazi ku ruhande rwe hakaba hari umwana uri kuvoma amazi na we mu kajerekani gafite ibara ry'umuhondo, ku ruhande hakaba hari umuhanda w'ibitaka, hakaba harimo abantu bari kugenda ndetse hakaba hari n'ibiti ndetse n'inyubako.

Umuhungu wambaye ishati y'amaboko magufi ari kuvugana n'umuhungu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu bakaba bari mu nyubako, iyo nyubako barimo hakaba harimo n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye ndetse hakaba harimo n'ibyapa.

Umwana wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu akaba ari gukaraba intoki, imbere akaba hateretse indobo ifite ibara ry'umweru ikaba iteretse ku ntebe, ku ruhande rwe hakaba ari ibiti.

Umugore wambaye ingofero ndetse akaba akenyeye n'igitenge akaba ari gukaraba intoki akoresheje kandagira ukarabe, ikaba iriho akajerekani gafite ibara ry'umweru, inyuma ye hakaba hari inyubako ndetse hakaba hari umuryango ufunguye.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako hakaba harimo abagabo, abagore ndetse n'abantu bafite uruhu rwera, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, ku ruhande rwa bo hakaba hari imiryango.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, ku ruhande rwe hakaba hari undi mugore wambaye umwenda urimo amabara agiye atandukanye, hakaba hari n'indobo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, bakaba bamaze kuvoma amazi, ku ruhande rwe hakaba hari abandi bantu, ku rundi ruhande hakaba hari igiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari gutera urushinge umwana mutoya, hakaba hari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu urimo uturongo tw'umweru ndetse n'umukara akaba ariwe uteruye uwo mwana, ku ruhande rwabo hakaba hari imeza iriho imiti ndetse hakaba hari n'abandi bantu.

Umuntu wambaye agapfukamunwa ndetse n'umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere hakaba hari umugabo wicaye wambaye ingofero, ku ruhande rwe hakaba hari umwana ndetse hakaba hari n'ibiti.

Abagore babiri bafite umufuka mu ntoki zabo akaba yambaye ibitenge bifite ibara ry'icyatsi, undi akaba yambaye ibitenge biri mu mabara y'kigina, imbere ye akaba ari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu hakaba hari n'imifuka myinshi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umwana, bakaba bari no kumuvura, hakaba hari umugore uteruye umwana bose bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, n'imbere akaba ari umwana muto yaba bakaba bari kumuvura, akaba hari umugore wambaye ibitenge akaba amuteruye bakaba bari no mu nyubako.

Abantu benshi bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abantu bafite uruhu rwera, inyuma yaho bari hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, bakaba bari no mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ukozwe mu gitenge, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, akaba ari kuvuga, ku ruhande hakaba hari umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho isakame, inyuma yabo hakaba hari ibyatsi ndetse n'indabo.

Abantu benshi bicaye ndetse n'abandi bahagaze bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara akaba yicaye ku ntebe, imbere ye hakaba hari umukobwa wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru na we akaba yicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari ibikinisho bakaba bicaye mu nyubako.

Abakobwa babiri bicaye mu nyubako, umwe muri bo akaba yambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ingofero, undi akaba yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse akaba yambaye n'amataratara, bakaba bicaye bari kuganira.

Abagore batatu bahagaze, babiri muri bo bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, bose bakaba bakenyeye ibitenge, undi akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu. Umwe muri bo akaba afite umwana ndetse akaba afite n'umufuka, bose bakaba bafite inkoni, bakaba bahagaze, inyuma yabo hakaba hari ibiti ndetse n'imisozi.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba yicaye mu nyubako, imbere ye hakaba ari umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, na we akaba yicaye mu nyubako akaba afite ibikinisho mu ntoki ze.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze akaba ari kuvuga, ku ruhande hakaba hari imeza ndetse akaba yicayeho abantu bagiye batandukanye hakaba harimo n'abagore, bakaba bafite uducupa tw'amazi bose bakaba bari mu nyubako, bakaba bari mu nama.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru akaba ari umukozi kubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho afite ibikoresho bakoresha bapima umuriro ndetse na telefoni mu ntoki ze, ku ruhande hakaba hari umugore wambaye ibitenge akaba afite umwana mu ntoki ze.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, inyuma ye hakaba hari akabati karimo ibiribwa bigiye bitandukanye akaba ari umucuruzi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umugore ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umugore wambaye igitenge wicaye ku ntebe ndetse wambaye n'agapfukamunwa, akaba ari kumufasha, ku ruhande rwabo hakaba hari n'abandi bantu benshi.

Abantu bahagaze, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, ku ruhande rw'aho bari hakaba hari icyapa kiriho amafoto agiye atandukanye, bakaba bahagaze no ku madarage.

Abantu benshi bari mu nyubako, hakaba harimo abagabo, abagore, ndetse n'abantu bafite uruhu rwera, hakaba hari n'imeza iteretseho uducupa tw'amazi ndetse na za telefoni.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, bakaba bari kugenda mu muhanda, hakaba harimo n'abafite icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, hakaba n'abantu bambaye imyenda ifite ibara ryijimye, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, ku ruhande hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bahagaze bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abantu bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, inyuma yabo hakaba hari igikuta cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse n'ibirangantego ndetse inyuma y'icyo gikuta hakaba hari ibiti.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima akaba yicaye ku ntebe, ku ruhande rwe hakaba hari intebe y'abarwayi yabigenewe yo gukoresha bavura, ikaba ifite ibara ry'icyatsi, akaba ari mu nyubako irimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha bavura.

Umuntu wambaye amataratara agapfukamunwa ndetse n'umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umuntu uryamye ku gitanda cy'abarwayi bakaba bari kumukura amenyo, ku ruhande hakaba hari undi muntu uhahagaze.

Umugabo wambaye amataratara, agapfukamunwa ndetse n'umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima akaba ari mu nyubako, imbere ye hakaba hari meza iteretseho ibikoresho bakoresha bavura ndetse akaba ari no kwandika.

Abana bo mu kigo cy'amashuri, bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hakaba harimo n'abarimu babo, bakaba babahaye uburoso bw'amenyo, muri iyo nyubako, hakaba harimo idirishya rifite ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, agapfukamunwa ndetse n'amataratara, akaba ari umukozi, ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yicaye, imbere hakaba hari umwana uryamye ku gitanda, bakaba bari kumuvura amenyo.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, amataratara ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umugore uryamye ku ntebe y'abarwayi akaba ari kumuvura, ku ruhande hakaba hari ibindi bikoresho bakoresha bavura bakaba bari mu nyubako.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima. Imbere yabo hakaba hari umuntu uryamye bakaba bari kumuvura amenyo bakaba bari mu nyubako, ku ruhande rwabo hakaba hari ibindi bikoresho bakoresha bavura.

Abantu benshi bari mu nyubako hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba higanjemo n'abambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, bakaba baje kuvurwa amenyo hakaba harimo n'abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru akaba ari abantu bashinzwe gutanga serivisi z'ubuzima.

Abantu bari mu nyubako, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba higanjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, bakaba baje guhabwa serivisi zerekeranye n'uburwayi bw'amenyo, hakaba hari n'abandi baje gutanga serivise.

Umugabo wambaye ishati y'amabokoko maremare ndetse n'amatatara, akaba ari gufata ifunguro, imbere ye hakaba hateretse amasahani menshi ariho ibyo kurya, ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye amataratara ndetse n'umwenda ufite ibara ry'ubururu nawe akaba ari kurya, bakaba bari no kuganira bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye ikoti rifite ibara ry'umukara akaba ari kugenda mu muhanda, akaba afite igikoresho cyabugenewe gifasha umuntu kugenda, ku ruhande rwe hakaba hari umukobwa wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba afite agapfunyika gafite ibara rya kaki mu ntoki ze, ku ruhande hakaba hari ibiti.

Umugabo akaba yicaye mu nyubako, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare, imbere ye hakaba hari imeza iriho ibitabo ndetse n'impapuro, iruhande rwe hakaba hari amadirishya, akaba yifashe no mu gahanga.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko mugufi, ufite ibara ry'ivu akaba ari muri siporo, ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru nawe akaba yambaye isaha ku kaboko, akaba ari muri siporo, inyuma ye hakaba hari ibiti.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare irimo imirongo, akaba afite agacupa karimo imiti ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse yambaye n'amataratara imbere ye hakaba hari mudasobwa urupapuro ndetse n'imiti bakaba bicaye mu nybako.

Abagore babiri bahagaze mu nyubako, umwe muri bo akaba yambaye amataratara ndetse afite ikirahure kirimo inzoga, ku ruhande rwe hakaba hari undi mugore utetse ibyo kurya, ku ruhande hakaba hari utubati turimo ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe akaba ari umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba ari kumufasha gugorora amaguru ye, bakaba bari no mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga service z'ubuzima, akaba ari mu nyubako ku ruhande hakaba hari umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, akaba afite ubumuga, akaba ari kugorora ingingo, bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'igitambaro gifite ibara ry'umweru, akaba yambaye amataratara ndetse n'ingofero ifite ibara ry'umukara, iruhande rwe hakaba hari umugabo uhahagaze wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, ingofero ndetse n'igitambaro cy'umukara, inyuma yabo hakaba hari n'abandi bantu benshi bose bakaba bahagaze.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yicaye, imbere ye hakaba ari umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, akaba yicaye mu kagare k'abantu bana n'ubumuga, bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye amataratara ndetse n'umwenda ufite ibara ry'umuhondo, akaba yicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga. Iruhande rwe hakaba hari umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, bakaba bicaye mu nyubako, bakaba bari gukina, inyuma yabo hakaba hari igiti.

Umugabo wambaye amataratara ndetse n'ishati y'amaboko magufi, akaba yicaye mu nyubako, akaba afite telefoni mu ntoki ze, ku ruhande hakaba hari umugore uhicaye, imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho impapuro kandi bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba ari kugendera ku gikoresho cyabugenewe gifasha abantu batabasha kugenda kuba bagenda. Ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse akaba afite n'agapfunyika gafite ibara rya kaki, bakaba bari kugenda mu muhanda. Ku ruhande rwabo hakaba hari ibiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, ku ruhande hakaba hari umukobwa mutoya wambaye imyenda ifite ibara ryumweru, imbere yabo hakaba hari ameza, bakaba bari gukina bakaba bari mu nyubako.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye amataratara, wicaye ku buriri, bakaba bari kumufasha guhaguruka bakaba bari no mu nyubako.

Umugore ufite uruhu rwera, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, akaba ari mu nyubako, imbere ye hakaba hari umugore wambaye umupira w'amaboko maremare, akaba ari kumufasha kugorora umubiri.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba yicaye mu ntebe ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku na we akaba yicaye imbere yabo akaba hari imeza iriho imikino bakaba bari gukina ndetse bakaba bari no mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, akaba afite imiti mu ntoki ze, akaba yicaye ku ntebe ndetse akaba ari no mu nyubako, imbere ye hakaba hari umugabo wambaye amataratara, hakaba hari n'imeza iteretseho ikirahuri kirimo amazi, impapuro ndetse n'imiti.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba abana n'ubumuga, akaba ari kugendera mu kagare, kakaba gafasha abantu batabasha kugenda kuba bagenda, akaba ari mu nyubako, ku ruhande hakaba hari igitanda cy'abarwayi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, bakaba bari kumufasha kugorora amaboko bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, irimo utungu tw'umutuku umweru ndetse n'umukara, imbere ye hakaba hari amasarori ndetse n'amasahani arimo ibyo kurya, akaba ari kwarura, ku ruhande rwe hakaba undi muntu wicaye.

Umugabo wambaye amataratara umwenda ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'umupira ufite ibara ry'ivu, akaba yicaye mu nyubako, imbere hakaba hari meza akaba ari kwandika, inyuma ye hakaba ibikoresho bye bitandukanye.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'umwenda ufite ibara ry'icyatsi, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, akaba yicaye ku ntebe, iruhande rwabo hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, akaba yicaye mu nyubako, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye amataratara ndetse wambaye n'umupira w'amaboko magufi, bakaba bari gusoma igitabo, imbere yabo hakaba hateretse ibikombe bifite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba afite ibinini mu ikiganza kimwe, mu kindi kiganza akaba afitemo ikirahure kirimo amazi. Akaba ari mu nyubako, muri iyo nyubako arimo hakaba harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu benshi baricaye ndetse n'abandi barahagaze, hakaba harimo abagabo, abagore ndetse n'abantu bafite uruhu rwera, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso kandi bakaba bari no mu nyubako, inyuma y'aho hakaba hari icyapa.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ivu, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, akaba ahagaze imbere y'abantu ari kuvuga, ku ruhande rwe hakaba hari abantu bicaye, harimo abagabo ndetse n'abagore hakaba harimo n'abafite mudasobwa, bakaba bari mu cyumba k'inama ndetse kandi bakaba bari gukora inama.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, akaba yambaye n'ingofero ndetse n'amataratara akaba yambaye n'agapfukamunwa, akaba ari gutera urushinge umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, na we akaba yambaye agapfukamunwa, uwo muntu akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima iruhande rwe hakaba hari abandi bantu.

Abagabo batatu bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse n'abagore batatu barahagaze, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu ku ruhande rwabo hakaba hari igiti.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba afite urupapuro mu ntoki ze, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo nawe wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, bakaba bafatanye mu biganza bari gusuhuzanya, umugabo nawe akaba afite impapuro, inyuma yabo akaba hari icyapa cy'amabara y'umweru bakaba bahagaze bari gufata ifoto.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore barahagaze hakaba harimo n'abafite uruhu rwera, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari ikirahure ndetse n'ibyapa.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari n'abandi bantu bicaye imbere aribo bayoboye ikiganiro, hakaba harimo n'abantu bafite uruhu rwera, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda hakaba higanjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abafite icyapa, ku ruhande hakaba hari ibikuta, inyubako ndetse n'ibiti.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, akaba ari abakozi kubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bari kubaga umuntu, muri iyo nyubako barimo, hakaba hari ibikoresho bakoresha bavura umuntu.

Abantu benshi biganjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, bakaba bafite n'ibyapa mu ntoki zabo, bakaba bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore iruhande rwabo hakaba hari ibiti, inyuma yabo hakaba hari inyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara ndetse n'ishati ifite ibara ry'umweru, akaba ahagaze mu nyubako ifite amakaro, kuhande rwe hakaba hari umukobwa wambaye ikanzu, akaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abantu bafite uruhu rwera, imbere hakaba hari abantu bicaye, akaba aribo bayoboye inama.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore hakaba harimo n'abantu bafite uruhu rwera, imbere akaba yicaye abantu batatu, akaba aribo bayoboye inama.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, ikaba iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, munsi y'iyo nyubako hakaba hari umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, hakaba hari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rw'iyo nyubako hakaba hari ibyatsi.

Abagore bane bahagaze bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, inyuma yabo hakaba hari inyubako, iruhande hakaba hari ibyatsi ndetse n'indabo.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari mu nyubako, iruhande rwe hakaba hari umuntu uryamye ku gitanda cy'abarwayi ndetse hakaba hari n'ibikoresho bakoresha bavura.

Inyubako ikaba ifite icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, imbere yayo hakaba hari ibyapa ndetse n'amadarapo agiye atandukanye, ku ruhande hakaba hari abantu bari kugenda, ndetse hakaba hari n'ibiti, iyo inyubako akaba ari iy'ibitaro.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere hakaba hari umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari kuvurwa, bakaba biciwe no mu nyubako, inyuma yabo hakaba hari akabati karimo ibikoresho bakoresha bavura.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari umukozikorera w'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. k'uruhande rwe akaba ari umugore wambaye ikanzu y'ibitenge k'uruhande rwabo hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti.

Inyubako ndende akaba ari iy'ibitaro, ku ruhande rwayo hakaba hari abantu baje gushaka serivisi zerekeranye n'ubuzima, hakaba hari n'ibiti. Iyo nyubako ikaba yanditseho amagambo Ikigo Nderabuzima cya Nyarurenzi.

Abantu babiri bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'udupfukamunwa, bakaba bari mu nyubako, ahantu bari hakaba hari ibikoresho bakoresha bavura.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe hakaba hari umugure wambaye agapfukamunwa uri mu kagare k'ababana n'ubumuga, bakaba bari mu nyubako, iyo nyubako ikaba irimo n'abandi bantu benshi, harimo abaje gufata serivisi ndetse n'abandi bari gutanga serivisi zerekeranye n'ubuzima.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima ndetse kandi akaba yambaye n'amataratara ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye ibitenge uryamye ku gitanda akaba arwaye bakaba bari mu nyubako ku ruhande akaba ari undi mugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru.

Inyubako ndende, ikaba ifite ibara ry'ivu ndetse n'umweru, ku ruhande hakaba haparitse ikinyabiziga, harimo imodoka ndetse n'ipikipiki, hakaba hari n'ibyatsi.

Inyubako yagenewe gucururizwamo, hakaba hari ibyapa biri mu mabara y'umweru, hakaba hari ndetse n'inyubako z'ubucuruzi bw'imyenda, ku ruhande hakaba ndetse n'inyubako bacururizamo imiti, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibinyabiziga bibiri bihaparitse.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe hakaba hari umuntu bari gutera urushinge ndeste aho hantu bari hakaba hari n'abandi bantu benshi.

Inyubako ifite icyapa cyiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, munsi yicyo cyapa hakaba hari abantu baje kwaka serivisi, ku ruhande hakaba hari ibinyabiziga bitatu, bibiri bifite amabara y'umweru ndetse n'ikindi gifite ibara ry'umukara.

Inyubako yandikishijweho amagambo y'ubururu, hakaba hari abantu bahagaze imbere yayo harimo abagore ndetse n'abagabo, akaba ari inzu y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, ku ruhande rwayo hakaba hari abantu bari kugenda ndetse n'izindi nyubako.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ahagaze mu nyubako, imbere ye hakaba hari ibikoresho bakoresha bavura.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, akaba yambaye n'ingofero ifite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima imbere ye hakaba hari umwana mutoya uryamye ndetse aho hantu ari hakaba hari n'ibikoresho bigiye, bitandukanye.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'amataratara, akaba ari umukozi korera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe hakaba hari umugore ufite umwana mu ntoki ze, bakaba bari mu nyubako.

Inyubako hejuru yandikishijwe amagambo afite ibara ry'umutuku, akaba ari inyubako y'ibitaro ikaba yaragenewe kuvurirwamo abarwayi, ku ruhande rwayo hakaba hari umugore uhetse umwana uhahagaze.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, akaba afite amenyo mu ntoki ze, inyuma ye hakaba hari n'abandi bantu benshi.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi kubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari mu nyubako ku ruhande rwe hakaba hari ibyuma byabugenewe bakoresha babika mo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamunwa akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima aho bari mu nyubako bakaba bari kuvura umuntu uryamye ku gitanda ahantu bari hakaba hari ibikoresho bakoresha bavura.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo, abagore ndetse n'abantu bafite uruhu rwera, hakabaho n'umugore wicaye hasi, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso inyuma y'aho bari, hakaba hari inzu ndetse n'ibiti.

Umugore wicaye hasi akaba yambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku wijimye, akaba ari muri siporo, akaba yicaye mu nyubako. Kuru ruhande rwe hakaba hari intebe z'ubwoko bugiye butandukanye zifite amabara y'umukara.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z’ubuzima, imbere hakaba hari umugabo wambaye imyenda y’umukara, akaba afite umugozi ufite ibara ry'umuhondo mu ntoki ze, akaba ari gukurura amaboko ye, bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari mu nyubako, akaba ari kuvura umuntu uryamye ku gitanda, akaba ari ku muvura amaguru.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamunwa bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bari mu nyubako aho bari kuvura umuntu hakaba hari n'ibikoresho bitandukanye bakoresha bavura.

Abantu bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bicaye mu nyubako, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bambaye n'udupfukamunwa, bakaba bari mu nama, imbere yabo hakaba hariyo imeza iteretseho mudasobwa ndetse na tereviziyo.

Umuhungu wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'ivu ndetse akaba afite n'udukoresho bakoresha bumva imiziki tukaba dufite ibara ry'umweru, akaba afite n'icupa ririmo amazi, ari kunywa amazi akaba yari ari muri siporo.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'ivu akaba ari kugorora umubiri we, akaba yambaye ibikoresho byabugenewe bakoresha bumva imiziki bifite ibara ry'umweru ndetse no ku kaboko ke akaba yambayeho telefoni, imbere ye hakaba hari ibiti.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, akaba ahagaze mu nyubako imbere ye hakaba hari umuntu akaba ari kugorora akaguru ke,

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umuntu uhicaye wambaye ikabutura, akaba afite ikibazo cyo mu ivi bakaba bari kumuvura kandi bakaba bari mu nyubako.

Umuhungu wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, akaba afite icupa ry'amazi, akaba ari kunywa n'amazi, akaba yicaye ku ntebe, imbere ye hakaba ari igikapu gifite ibara ry'umukara, ku ruhande hakaba hari umukobwa nawe uhagaze, imbere hakaba hari igikapu bakaba bari muri siporo.

Umugabo wambaye umwenda, ufite ibara ry'ivu ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari mu nyubako imbere hakaba hari umuntu uryamye akaba ari kumuvura.

Umuhungu wambaye isengeri, ifite ibara ry'ivu ndetse n'ikoti rifite ibara ry'umukara, akaba ari muri siporo ku ruhande rwe hakaba umugore wicaye nawe akaba ari muri siporo. Iyo nyubako barimo akaba ari inyubako yabugenewe gukoreramo siporo.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ku ruhande rwe hakaba hari umuntu uryamye wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, akaba ari kumugorora amaguru kandi bakaba bari mu nyubako.

Umukobwa wambaye agasengeri, akaba afite icupa ry'amazi, akaba ari kunywa amazi, akaba ari muri siporo, akaba yambaye ibikoresho bakoresha bumva imiziki, bikaba bifite ibara ry'umweru, akaba afite na terefone ye, yambaye ku kaboko.

Umukobwa wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse n'inkweto zifite ibara ry'umweru, akaba yambaye ibikoresho bakoresha bumva imiziki ikaba ifite ibara ry'umweru, akaba yicaye hasi, akaba ari kugorora umubiri we ku ruhande hakaba hari icupa ririmo amazi ndetse inyuma ye hakaba hari ibiti.

Umuntu wambaye umwenda w'amaboko mugufi ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umukara akaba ari kugorora umubiri ku cyuma akaba ari muri siporo, ku ruhande rwe hakaba hari inyubako umuhanda w'abagenzi ndetse n'amazi.

Umuhungu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, akaba afite ibikoresho byabugenewe baterura, akaba ari kugorora umubiri we, ku ruhande hakaba hari undi muntu uri kumwerekera, akaba ari mu nzu yabugenewe akoreramo imyitozo.

Umukobwa wambaye isengeri ifite ibara ry'umukara ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, akaba ari muri siporo, akaba afite icupa ry'amazi ndetse akaba ari no kunywa amazi. Ku ruhande rwe akaba afite terefone yambaye ku kaboko.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara ndetse n'ivu, akaba yicaye, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa ifite ibara ry'ivu, ku ruhande rwe hakaba hari intebe ndetse ku rundi ruhande, hakaba hari ibikoresho bakoresha bakora siporo ndetse n'icupa ry'amazi.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'umwenda ufite ibara ry'umutuku ryijimye, akaba ari mu nyubako, akaba inyuma ye hari utubati turimo ibiribwa bigiye bitandukanye, akaba ari umucuruzi.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari mu nyubako, inyuma ye hakaba hari akabati abikamo imiti ndetse n'intebe ifite ibara ry'umukara yicaraho. Imbere ye hakaba hari uducupa abikamo imiti.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari mu nyubako, imbere y'akaba ari meza iriho udukarito ndetse n'imiti.

Abantu benshi bahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba higanjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, hakaba hari n'abandi bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, bakaba bari mu murima, inyuma yabo hakaba hari ibiti.